Abaganga batandukanye b'igitsina gore n'igitsina gabo, bambaye amataburiya y'umweru bishimye, bari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, bari mu nzu nziza iri mu mabara y'umweru.

Umugabo wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'icyenda na mirongo itatu n'itanu, wambaye imyenda iri mu mabara y'umukara n'ikigugu, wambaye n'amataratara ufite agasatsi gake uri imbere y'inyubako iri mu mumabara y'ubururu na pinki, uri mu busitani burimo indabo zitandukanye.

Abakobwa babiri bari mu kigero k'myaka imwe, umwe yambaye imyenda y'umukara undi yambaye iy'umutuku n'ingofero, uwambaye imyenda y'umukara ari kuganiriza uwambaye imyenda y'umutuku, uwambaye imyenda y'umutuku afite ibibazo bitandukanye, uwambaye imyenda y'umukara ari kumuganiriza amuturisha, amubwira uburyo bigomba kugenda neza.

Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri n'ibiri na makumyabiri n'irindwi ufite imibiri yombi, ufite imisatsi myinshi ku mutwe, uri gukora isuku mu menyo ye akoresheje uburoso bw'amenyo kandi yambaye n'isengeri y'umweru.

Abagore basheshe akanguhe bari hagati y'imyaka mirongo itanu n'itanu na mirongo inani bambaye impuzankano, ubayoboye yambaye ikanzu y'igitenge, bari kubyina, barishimye kandi hari n'izuba riri kubarasaho.

Umuntu usa igikara washyize ukuboko ku kuguru ukundi agufatishije ku kuboko, ukuboko kwagize ikibazo hariho ishashi isa ubururu, yari ari muri siporo arangije agira ikibazo ku kuboko ashyira ishashi y'ubururu kugira ngo imufashe kugira ngo horohe.

Icupa ry'ubururu riri gusuka amazi mu kirahuri, amazi ni ubuzima, amazi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba mu koza amara, yaba mu gusukura umubiri muri rusange, yaba no kuruhura umutwe.

Umusore w'igikara wateruye ibyuma wambaye urunigi n'agapira k'ubururu uri kunywa amazi, amazi ni ubuzima atuma ushira inyota, agufasha gukora ibikorwa bitandukanye byo mu mubiri.

Igitabo gikubiyemo amabwiriza kugira ngo wiyandikishe mu buvuzi bwa gakondo muri NGO ya Afurika muri rusange, haba hakubiyemo amabwiriza yo kugira ngo wemererwe kuba wajya muri uwo muryango, nibwo ukoresha imiti ya gakondo.